Icyumba k'ishuri rya garidiyeni aho ku nkuta hashushanyije ibintu byinshi bitandukanye, hari ashushanyije ukuguru kw'inyama, hari ahashushanyije inkoko iri ku iparato umwumbati uri ku giti cyawo, n'ibindi biribwa.

Aha turabona ko ari mu ishuri ry'abana batoya, aho umwana yazanye n'ababyeyi be, umugabo wambaye ishati y'amaku maremare n'ipantaro, umubyeyi wambaye ibitenge, umwarimu akaba ari gusobanu umubyeyi.

Igikoresho cy'abana abanyeshuri batoya, bifashisha bari gukina.

Ishuri rya gardeni rya'bana bato, ku rukuta hariho ibishushanyo byigiye bitandukanye, n'igisokozo, umwana, indabo.

Aha turahabona icyumba cy'ishuri, kirimo abana batoya bambaye imyenda y'ububururu hejuru, hasi bambaye udukabutura tw'umukara, bakaba bari kumwe n'abarimu babo bahari.

Icyapa cyanditseho imyitozo, kiri mu ibara rya oranje cyandikishijwe ibara ry'umweru.

Aha turabona, ibikinisho by'abana, ibipupe bibiri n'utumodoka iruhande rw'ibipupe, bikaba ari ibifasha abana, gukina, kwishima, bigatuma, batarira.

Imyenda yambarwa n'abana igihe bari kubapima kwa muganga, bagira ngo barebe imikurire yabo n'ibiro bafite.

Ishuri ry'abana bato, ku nkuta rishushanyije ibintu byinshi bitandukanye.

Nkuko tubizi iyo ababyeyi bishimiye, bishimye n'abana babo, hari igihe bafata akanya bagasohoka, iyo basohotse baza abantu bari ibikinisho by'abana, aribyo tubona hano ku mashusho bifite amabara y'icyatsi, amababara y'umutuku, amabara y'umuhondo, ubona abana ko banezerewe bishimishije cyane.

Ibi ni ibikinisho by'abana bo mu mashuri matoya ya garidine, akaba a ari kado yateguriwe abana.

Ibikoresho bikoreshwa muri siporo n'udupira dutoya, amakona yo kunyuramo, imigozi gusimbuka, bikaba ari ibikoresho bya siporo.

Ibishushanyo bibiri by'uruziga kimwe kiri kuva kuri rimwe kugeza kuri gatanu, ikindi kiri kuva kuri cumi na gatatu kugera kuri cumi na gatanu hagati yacyo hakaba harimo kuva ku ikenda kujya kuri.

Aha muribuka yuko ibyumba by'amashuri byavuguruwe bikaba byiza, aho ubu umunyeshuri yiga neza kandi yicaye neza, hano turahabona ibyumba by'amashuri bigera kuri bine bikurikirana.

Aha turahabona igishushanyo cy'abana babiri bahagaze hagati yabo hakaba hahagaze agatente ,inyuma hakaba hari umugabo uri gusobanura akoresheje amabababi.

Igishushanyo gishushanyije cyanditseho watizi sosho sitadi foru parenti andi ticazi.

Aha turabona abanyeshuri bari mu ishuri, basa nk'aho bari mu kizami, hakaba hari n'umugabo wambaye ikote n'amarinete, ahagaze iruhande rw'umunyeshuri w'umukobwa, ari kureba urupapuro yakoreye ikizamini.

Ibi ni ibitabo bitanu bifasha abanyeshuri mu myigire yabo ya buri munsi, bikaba bituma bagira ubumenyi bakabasha kumenya gusoma no kwandika, no kumenya inkuru ndetse birushijeho bikabaryohera.

Ibaga y'umunyeshuro wa pirimeri, iriho agapusi inyuma. Iteretse ku meza, yitegura kujya ku ishuri.

Ikigo cy'amashuri, hanze hari ibikinisho by'abana aho hari akagare n'ibindi bikinisho. Ibyumba byubakishijwe imbaho...

Aha turahabona inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ibikinisho, cyangwa ibikoresho by'abanyeshuri bo muri bebi.

Aha turahabona ibitabo by'udukuru tw'abana bato dusekeje twe kugirango basome bihugure kumenya kwimenyereza gusoma inkuru z'abantu kugira ngo bakarishye ubwenge bwabo bityo bazavemo abantu bakomeye.

Igishushanyo kiriho ibikoresho by'umunyeshuri, ukasa, amakereyo, kole n'ibitabo.

Ifoto yanditseho egizami rizati ryandikishije ibara ry'umweru.

Igikoresho cy'umunyeshuri, yifashisha ari kwiga kirimo ibikoresho akoresha mu isomo ry'imibare, cyitwa buwate matematikare.

Icyapa cyanditseho amagambo buzira inenge, byanditswe mu ibara ry'umukara kikaba kiranga ishuri Mother Mery International School Complex.

Iki ni ikinyugunyugu kiri ku rurabyo, kikaba gifataho utuntu, imbuto zarwo kikazarujyana aho rujya kubangurira ibindi.

Aha turabona abanyeshuri, bari imbere ya kompiyuta, basa n'aho bari kwiga, bambaye udupfukamunwa, bose tw'umukara, harimo n'uwabambaye ak'umutuku.

Uru ni urubyiruko rw'abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, bamwe bambaye imipira y'umuhondo n'amapantalo ya kake, abandi bambaye imipira burusiyeri n'amapantalo y'umukara, bafite bandarole ya nyagatare sekendari sikuru, bafite bandarore yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mata mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo cyenda na kane.

Abagabo barindwi harimo babiri bambaye amajire atandukanye, n'Umwe wambaye ingofero imbere yabo hari umumama uri kubabwira ibijyanye n'umushinga wabo bakaba bahagaze inyuma y'ishuri.

Sare y'abanyeshuri ba segonderi aho bari kwigishwa byinshi bitandukanye, inyuma yabo ku gikuta hariho kalendale, ni abahungu n'abakobwa.

Aha turahabona icyumba k'inama cyateraniwemo n'abayobozi bagiye bafite ibyo bakora mu ngeri zabo, harimo abagabo ndetse hakaba harimo n'umumama umwe, hakaba harimo abari mu mishinga itandukanye bambaye amajiri.

Aha ni mu muhanda hahagaze abagabo bane hagati yabo harimo umugore bateze amatwi bari kwitegereza ibyo ababwira, hakurya haparitsemo imodoka, hakaba hari uruzitiro rwa rwa giriyaje n'ibyuma by'umutuku.

Aha akaba ari muri layiburali, icyumba cy'ibitabo by'abanyeshuri n'abarimu, bikaba bifasha abanyeshuri kwiga neza no gusoma, bakagira ubumenyi buhagije.

Aha turabona ari mu nzu nini na sale irimo ibikoresho by'icyo bari kwiga, hakaba hari abahagaze bakurikiye uri kubereka kuri televiziyo ibyo basabwa gukora.

Aha turabona, ikigo cy'amashuri, inyuma yayo hari abanyeshuri benshi, bambaye amashati y'ubururu n'imipira y'ubururu bwijimye, bamwe baricaye abandi barahagaze, aho bateze amatwi, uri kugira icyo bagezaho.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa aho bahagaze bifotoza bafata ifoto y'urwibutso, bambaye imipira y'umutuku n'ikabutura y'umweru, abandi bambaye amashati y'umweru n'amakabutura y'umukara.

Ibikoresho bibumwe mu ibumba bitandukanye, byifashishwa mu bintu byinshi nko gusuka ikintu no kubikamo ibintu.

Aba ni abanyeshuri basoje amashuri yabo bakaba bambaye imyenda igaragaza ko basoje amasomo.

Ibi ni ibikoresho by'abanyabugeni, aho bikorwa bigacuruzwa, uwabikoze akabasha kwiteza imbere, bakamuha amafaranga nawe we agakoresha ibindi.

Aha mu ishuri ahafatirwa amasomo y'imyuga, hakaba harimo urubyiruko rwitabiriye kuza kwiga ngo narwo rwiteza imbere, rukaba rurimo abahungu n'abakobwa, hari intebe z'icyatsi n'ameza y'umuhondo.

Ibikoresho bibumbye mu ibumba, bikoreshwa bateramo ibiti cyangwa indabyo.

Inyubako imeze neza ifite amadirishya, hanze hari hashashe amapave nagaferege k'amazi, hejuru hariho utwuma.

Iki ni icyumba gikorerwamo byinshi bitandukanye, harimo urubyiruko rwaje kwihugura hari uri kureba mu mashini mu mikorosikopu.

Iyi ni imitako y'ubunyabugeni igenda ikorwa ikabasha gucuruzwa hirya no hino bityo bigatuma abayikora biteza imbere bagira icyo babasha kwigezaho.

Ishuri rya kaminuza ririmo abakobwa n'abahungu bambaye amabaji, imbere yabo hatetse uducupa tw'amazi na za kompiyuta bigiramo, inyuma hari abandi bahagaze harimo n'uwambaye umupira w'umutuku.

Ibyumba by'ishuri ku rubaraza hari intebe y'agataburete ndende n'izindi za pulasitike ziciye bugufi.

Aha turahabona abakobwa batatu. Uwambaye ishati y'umweru, usutse n'ipantaro ya shokora. Imbere hirya hakaba harundi wambaye agakote k'imbeho nundi wambaye umupira w'imbeho. Iruhande rwabo hakaba hari umuhungu wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara. Umukobwa umwe akaba afite igitabo mu ntoki.

Iki ni icyumba cyo ku ishuri cyahuriyemo abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore, imbere yabo hari tabule y'ameza iriho n'uducupa tw'amazi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho University Rwanda.